Imbaga nyamwinshi y'abaturage harimo n'abarwayi, aho baje kwa muganga kugira ngo basuzumwe cyangwa bavurwe indwara zimwe na zimwe zitandukanye zibasiye abantu muri iyi minsi kugira ngo zitabweho neza kandi bakire.

Inyubako yabugenewe irimo abaturage benshi harimo n'umuganga uri kubaha amabwiriza, ari no kubigisha uburyo bagomba kwirinda indwara zimwe na zimwe zugarije abantu kugira ngo ubuzima bw'abo bukomeze kumera neza.

Ababyeyi n'urubyiruko bicaye hanze, bigaragara ko bari ku kigo nderabuzima baje kwivuza indwara zimwe na zimwe zitandukanye, kugira ngo babashe kuba bakitabwaho neza kandi bavurwe bakire.

Umwana wicaye ari kumwe n'umubyeyi we, aho baje kuvoma amazi amanuka ku butaka, aho bigaragara ko aya mazi atari meza, ashobora kuba yatera aba bantu indwara zitandukanye kuko adasukuye neza.

Umwana wishimye uri ku rukarabiro rusange rwegerejwe umudugudu, aho ari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugira ngo abashe kwirinda indwara zimwe na zimwe zandurira mu kudakaraba amazi meza nk'inzoka n'izindi zataka abana.

Ababyeyi n'abakobwa benshi bari kumwe n'abajyanama b'ubuzima, aho bigaragara ko bamaze guhabwa amasomo y'uburyo bagomba kwirinda indwara zimwe na zimwe, zifata ababyeyi kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Abana bane bagiye kuvoma amazi ku iriba cyangwa ku mugezi wegerejwe umudugudu wabo, aho umwana umwe ari guconda amazi kugira ngo abashe kuba yaza kugira ngo bayavome bacyure amazi meza mu rugo yo gukoresha imirimo nk'isuku n'andi yo kunywa.

Abana benshi bambaye impuzankano, aho bari kurya ibiryo bagenewe cyangwa ifunguro ryabo bagenewe ku ishuri kugira ngo barusheho kugira imbaraga n'ubwonko bwabo bukore neza, batekereze neza kugira ngo barusheho kwiga neza.

Abaganga bafatanyije n'abajyanama b'ubuzima, aho bigaragara ko baje kuvura cyangwa gukingira abarwayi bari mu mudugudu kugira ngo barebe ko hari indwara runaka baba barwaye.

Abana bishimye bigaragara ko bari ku kigo cy'amashuri bambaye impuzankano, bari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugira ngo birinde indwara zimwe na zimwe zandurira mu gukaraba amazi atari meza nk'inzoka n'izindi zibasira abana bakiri bato.

Abana n'abandi bantu mu mudugudu rusange batandukanye, aho bari guhabwa amasomo n'amabwiriza ku ndwara zitandukanye zibasira abana kugira ngo zibashe kuba zavurwa kandi abana babashe kuba bakitabwaho bihagije.

Imbaga nyamwinshi y'abantu, aho bari guhabwa amabwiriza n'amasomo, ku ndwara zimwe na zimwe zitandukanye zibasiye abantu, muri iki gihe kugira ngo habashe kuba hafatwa ingamba n'uburyo zavurwa zikadurwa burundu.

Urujya n'uruza rw'abantu ruri mu isoko aho harimo umubyeyi ufite akana n'umwana uri imbere yiwe uri kurira, bigaragara ko uyu mwana afite ikibazo cy'indwara zo mu mutwe, aho agomba kwitabwaho hakiri kare kugira ngo ivurwe.

Umukobwa uri kutwereka ibice by'iwe by'umubiri cyane cyane mu kanwa, aho ari kutwereka amenyo ye ko ameze neza kuko akoresha umuti wabugenewe n'uburoso kugira ngo arusheho kuyagirira isuku kandi amere neza.

Umwana muto ufite umupira mu maboko ari kumwe n'umuntu mukuru ushaje, aho bigaragara ko uyu mwana ari gukina n'umuntu ushaje kugirango babashe gukora imyitozo ngororamubiri, kugirango imibiri yabo ibe imeze neza.

Umukecuru uhagaze uri mu nyubako yiwe, wishimye cyane, afite ifoke mu ntoki n'isahani y'ibiryo biriho ibirinda indwara, ibyubaka umubiri, byose bimufasha mu kugira ngo ubuzima bwe burusheho kumera neza.

Ababyeyi bakuze bigaragara ko bishimye cyane, aho bari kuganira baseka kugira ngo baruhure mu mutwe n'indi mirimo yindi bari gukora ibafasha mu gushyira ubwonko bwabo ku murongo.

Umubyeyi ushaje cyane ari kumwe n'umuganga cyangwa n'umuntu ushinzwe kumwitaho mu mibereho ye ya buri munsi kugira ngo, naba anafite n'indwara abashe kumugira inama, kandi anarebe uko agomba kwitwara kugira ngo ikire.

Ubuzima bwiza hamwe no kubaho neza, byose biterwa n'uko umuntu yitwaye cyangwa yifashe, aho aba agomba gupimisha ubuzima bwe kwa muganga kandi agakora imyitozo ngororamubiri, akarya n'indyo zikwiriye n'ibindi kugira ngo ubuzima bwe burusheho kumererwa neza.

Iyi nyubako yabugenewe mu buvuzi rusange bw'abarwayi harimo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezeho, igikoresho cyitwa radiyo cyifashishwa mu gusuzuma abarwayi indwara ziri imbere mu mubiri wabo.

Inyubako yabugenewe yahariwe ubuvuzi bw'ibanze, aho ari ibitaro bya Kabgayi byakira abarwayi bava impande n'impande baze babagana ku ndwara zimwe na zimwe zananiranye kugira ngo babashe kuba bazivurwa zigakira.

Inyubako yabugenewe mu buvuzi rusange bw'abaturage, irimo igitanda n'ibindi bikoresho bigezweho by'ikoranabuhanga, byifashisha mu kuvura no gupima umurwayi indwara arwaye kugira ngo abashe kuba yakitabwaho neza.

Inyubako yabugenewe yigenga, yahariwe ubuvuzi bw'ibanze ku bantu barwaye badafite ubushobozi bwo kugera ku kigo nderabuzima, cyangwa ku bitaro byihuse kugira ngo bahabwe ubuvuzi bw'ibanze.

Inyubako yabugenewe yahariwe ubuvuzi bw'ibanze bw'abarwayi, ifitemo ibikoresho bigezweho by'ikoranabuhanga n'abarwayi bipfutse hose bigaragara ko ari abavura indwara zandurira mu buhumekero n'ahandi byihuse.

Umuganga uri kumwe n'uruhinja aho bari mu nyubako yabugenewe, irimo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byabugenewe, mu kwita ku bana bavutse, yaba ari abafite ikibazo cyangwa izindi ndwara kugira ngo barusheho kwitabwaho neza.

Inyubako yabugenewe mu buvuzi rusange bw'abaturage aho irimo umubare nyamwinshi w'abaganga harimo abazungu n'abirabura n'abandi, kugira ngo babashe kwita ku barwayi bose kugira ngo babone ubuvuzi bw'indwara zananiranye.

Inyubako yabugenewe igezweho kandi nziza cyane, hariho n'abandi bantu baje kureba uburyo iri kubakwa, bigaragara ko itaruzura, izajya yakira abarwayi n'abandi bose bayigana kugira ngo bahabwe ubuvuzi bw'ibanze.

Inyubako yabugenewe yahariwe ubuvuzi bw'ibanze bw'ababyeyi batwite cyangwa yaba abagiye kubyara kugira ngo bahabwe ubutabazi bw'ibanze, kugira ngo abana babo barusheho kuba bamera neza, nabo ubwabo bakamera neza.

Inyubako yabugenewe mu buvuzi rusange bw'abaturage, harimo ibikoresho by'ibanze, biteguye neza mu mwanya wabyo, bizajya bifasha mu buvuzi rusange bw'abaturage, haba no gusuzuma indwara baba barwaye.

Inyubako yabugenewe mu buvuzi rusange bw'abarwayi, aho harimo ibikoresho bimwe by'ikoranabuhanga kandi n'ibindi bigezweho nk'intebe n'ibitanda bigezweho kugirango basuzume umurwayi cyangwa avurwe neza.

Urutonde rw'imiti itandukanye aho iri mu nyubako yabugenewe, aho ibitse neza cyangwa aho babasha kuyibika kugira ngo itangirika cyangwa ibashe kuba yahura n'ibindi bibazo bitandukanye.

Igikoresho cyitwa mikorosikope mu ndimi z'amahanga, aho cyifashishwa mu buvuzi rusange mu gupima indwara zimwe na zimwe, zandurirwa mu dukoko tutagaragarira amaso kugira ngo abashe kureba ko iyo ndwara.

Umukobwa uzamuye amaboko hejuru bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwe burusheho kumererwa neza, kandi yirinde indwara zitandukanye.

Imbaga nyamwinshi y'abantu harimo ababyeyi bazanye abana babo, kubavuza indwara zitandukanye, aho bari no kubakoresha imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bw'abana burusheho kumererwa neza.

Ni icyuma cyabugenewe gifasha mu myitozo ngororamubiri kugira ngo umuntu ufite inda nini igabanuke, kigura ibihumbi ijana na makumyabiri, kifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri ihagije.

Umukobwa uri mu nyubako yabugenewe cyangwa ahabugenewe gukorerwa imyitozo ngororamubiri, aho ari gukora imyitozo ngororamubiri imufasha kugorora amaguru, amaboko, umugongo n'izindi ngingo z'umubiri we.

Iki gikoresho cyabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, aho kifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, aho bagicana bakajya birukanka kugira ngo bagorore amaguru, n'izindi ngingo z'umubiri zitandukanye.

Umukobwa ufite igipfuko ku kaguru, aho bigaragara ko nta afite igikomere, yatewe n'uko yari ari gukora imyitozo ngororamubiri, byabaye nk'impanuka, ariko iki gipfuko kikaba kimufasha mu kwirinda imyanda yakinjira mu gikomere.

Ibikoresho n'imiti bitandukanye byifashishwa mu gihe bari kuvura cyangwa bari kwita ku murwayi wagize ikibazo ari gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo abashe kuba yakwitabwaho neza.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho ari kugorora amaboko n'izindi ngingo ze z'umubiri, kugira ngo abashe kurwanya indwara zifata umuntu udakora imyitozo ngororamubiri.

Uburyo butandukanye umuntu ashobora gukoramo imyitozo ngororamubiri n'ibikoresho byinshi bitandukanye n'aho umuntu ashobora gukorera imyitozo igihe abikeneye, kugira ngo ubuzima bwe burusheho kumererwa neza.

Imbaga nyamwinshi y'abana, aho bari ku kibuga, bitoza, bari no gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo babashe kuba bagororoka neza bagorora ingingo z'umubiri wabo, kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza.

Inyubako yabugenewe mu kugira ngo habikwe imiti yose yifashishwa mu buvuzi rusange bw'abarwayi, ku kigo nderabuzima cyangwa ku bitaro kugira ngo iyi miti ihabwe abarwayi barusheho kumererwa neza.

Umukobwa uri ku mukeka cyangwa ku musambi, aho ari gukora imyitozo ngororamubiri agorora amaguru, umugongo, amaboko n'izindi ngingo z'umubiri we, kugira ngo ubuzima bwe burusheho kumera neza.

Insimburangingo zitandukanye bitewe n'uko ukuguru k'umuntu kungana, aho izi nsimburangingo zifashishwa ku muntu wabuze urugingo rw'akaguru kugira ngo bibashe kuba byamufasha mu kugenda.

Umugabo uhagaze uri kunywa amazi meza ari mu icupa risukuye, aho bigaragara ko amaze gukora imyitozo ngororamubiri, aya mazi akamufasha mu kuyungurura impyiko n'amaraso, kugira ngo ubuzima bwe burusheho kumererwa neza.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze mu kuvura umuntu wakomeretse ari gukora imyitozo ngororamubiri, harimo ibipfukamaboko ibikoreshwa mu gupfuka ibikomere n'indi miti itandukanye.

Umukobwa wicaye mu kibuga, bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho ari kugorora amaguru, amaboko, umugongo n'izindi ngingo z'umubiri, kugira ngo ubuzima bwe burusheho kumererwa neza.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, aho harimo n'igikoresho cyifashisha mu gupima uko umutima uri gutera n'ibindi harimo nk'umupira w'amaguru, ga bambara mu ntoki n'ibindi kugira ngo imyitozo ngororamubiri ikorwe neza.

Igikapu kinini kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo ibikoresho byabugenewe mu buvuzi bw'ibanze n'imiti, bwahariwe abantu bakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bitabweho.

Umuti w'amenyo, aho uvura indwara z'amenyo zitandukanye, ukozwe mu kimera gakondo cyitwa igikakarubamba, kifashishwa mu gukora n'indi miti rusange itandukanye.

Imiti itandukanye iri mu macupa yakozwe mu buki n'indi iri mu yandi macupa yakozwe mu kimera gakondo bita igikakarubamba; iyi miti yifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu n'izindi ndwara zitandukanye.

Ishyamba ririmo ibiti n'ibindi bimera byinshi bitandukanye gakondo, bivamo imiti myinshi itandukanye ivura indwara zitandukanye, harimo izifata abasaza n'izindi kugira ngo habashe kuba havanwamo imiti.

Ikimera gakondo bita umuravumba, cyifashishwa mu kuvura indwara zimwe na zimwe zitandukanye no gukora imiti myinshi itandukanye, aho iki kimera kivura indwara zitandukanye nk'umutwe, munda, amenyo cyane cyane n'inkorora.

Ikimera gakondo cyitwa umuravumba, aho iki kimera cyifashishwa nk'umuti uvura indwara zimwe na zimwe zitandukanye nk'umutwe, mu nda n'izindi ndwara kugira ngo zibashe kuba zavurwa neza zigakira.

Imbaga nyamwinshi harimo abaguzi hamwe n'abacuruzi ariko aba bacuruzi akaba ari abavuzi gakondo bafite imiti iri mu macupa menshi itandukanye, ibivura indwara nyinshi zitandukanye.

Ikimera gakondo cyifashishwa mu gukora imiti cyangwa mu kuvura indwara zitandukanye, cyane cyane izibasira abana bato, harimo nk'amahumane, mu nda, inyandazi n'izindi kugira ngo zibashe kuba zavurwa zigakira.

Imbaga nyamwinshi y'abashakashatsi, aho bari kujya gushakashaka ibimera gakondo byifashishwa mu gukora imiti ivura indwara zitandukanye, haba iz'ubu n'iza kera.